Posite do Sante ya Nyabizi, aho abantu bari kuhaja bagira ngo baje kwivuza, kandi Santere do Sante ikaba ari nshasha, abantu bakaba bayikoresha bajya kuyivuzaho indwara zitandukanye.

Farumasi irimo imiti, ikaba ifite na kompiyuta, bakaba bacuruza ibintu byose yakenera mu gihe yarwaye.

Umugore uri kuri kompiyuta ,akaba ari muri farumasi aho acuruza imiti itandukanye y'abantu baza bamugana igihe barwaye.

Umuganga akaba afite ibinini, ibyo binini bikaba biri mu bikarito, ibindi bikaba biri mu ducupa, akaba ari imiti itandukanye ifasha abantu kugira ngo bibarinde indwara.

Ikibonobono iruhande rwacu hari intusi kandi imbere yacu hari amabuye n'ibindi byatsi amabuye tuyakoresha mu kubaka gukora imihanda ndetse no gukora ibindi bintu byinshi bitandukanye ndetse n'intusi zivamo ibiti tukabyubakisha.

Igitenetene kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Amabuye adufasha mu kubaka, ndetse n'ibigori turabirya bigatuma ubuzima bw'umuturage buba ku isonga.

Beterave iteye mu butaka, iyo yeze abantu bakaba bayifashisha mu gukora amaji kandi bakaba bayishira mu biryo kugira ngo bihinduke umutuku.

Sanduruma iteye mu murima. Ibi bikaba ari ibiryo by'inka ndetse n'inkwavu. Ndetse banabikoresha mu buryo bwo kuvura abantu, mu buryo bwa gakondo.

Gereveriya iri kumwe n'urubingo ndetse n'ibindi byatsi, aho gereveriya ikoreshwa mu kubabaka amazu ndetse urubingo rukaba rukoreshwa nk'ibiryo by'amatungo.